Igitabo gishushanyijeho inyubako nziza y'ishuri isakaje amabati y'ubururu aho hari ubusitani buri gukinirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye bambaye impuzankano, aho hari n'umwarimu ndetse n'undi munyeshuri ufite ubumuga.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakaba bari mu ishuri, imbere yabo hari umwarimu ndetse hari umwana umwe uhagaze afite igitabo kirimo amashusho ari kugenda ayareba ababwira ayo ari yo.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakunze kwigishwa cyane n'abarimu baba barabyigiye aho aba barimu baba bazi uburyo bwose abana babasha kwiga bakaba bakumva kandi bagatinda amasomo yabo bari kwiga.

Inyubako nziza cyane zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati atukura, akaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kubera ko ziba zifite ibishushanyo bigiye bishushanyijeho byinshi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako y'amashuri yigirwamo n'abanyeshuri b'inshuke, ikaba ishushanyijeho amafoto agiye atandukanye bifashisha bari kwigisha aba bana.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, bakunze kwigishwa hifashishije ibipupe cyangwa amafoto y'ibishushanyo runaka, umwarimu areba akabyifashisha kugira ngo babashe kumenya ubwenge runaka.

Inzu yubakishije amarangi y'umweru ishushanyijeho ibikoresho bigiye bitandukanye mu mabara atandukanye, ibi bikoresho bikaba byifashisha bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo bamenye amabara atandukanye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umuhondo n'imyeru hari kwakamo amatara, harimo kandi n'intebe z'amoko n'amabara agiye atandukanye bigaragara ko higiramo abanyeshuri b'inshuke.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bakunda cyane kwiga ibikoresho bifite udushusho ku buryo ari byo bifashisha kugira ngo babashe gufata amasomo baba bigishijwe n'abarimu babo, aba bana rero bakunda kwiga bagatinda.

Abantu benshi cyane b'abanyeshuri bahuriye ku ishuri, bakaba bambaye imyambaro igiye itandukanye bigaragara ko biga mu mashuri y'inshuke, kuko ari abana bakiri batoya kandi bigirira umutima mwiza.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakunda kwiga hifashishijwe amashusho ari mu mabara atandukanye kugira ngo babashe kumenya ubwenge ndetse no gutekereza vuba kugira ngo bazabe abahanga.

Umwana wambaye agakote kari mu mabara y'umutuku ndetse n'ubururu, akaba yiga mu mashuri y'inshuke, imbere ye hari udukombe tw'amabara agiye atandukanye akaba ari kutwifashisha yiga kubara.

Amoko agiye atandukanye y'ibitabo byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, aho aba bana baba bafite ibitabo byabugenewe, bagenda bagasoma.

Inyubako nziza cyane zubabatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere. Akaba ari inyubako ifite icyapa cyanditseho ngo igororero ry'abana rya Nyagatare. Aho bagororera abakoze ibibazo bigiye bitandukanye.

Hari ibikoresho biba bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho muri ibyo bikoresho twavugamo nk'amarati, amakaramu ndetse n'uducaruziga, bifashisha bari gushushanya ibishushanyo byo mu isomo ry'imibare.

Ibikoresho biba biri mu gasanduku abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze kwifashisha igihe biga amasomo y'imibare, haba harimo amarate y'uducaruziga ndetse n'amakaramu yo mu biti.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ikaba yamamaza ikigo cy'amashuri kitwa Wisdom High school, iki kigo kikaba gitindisha cyane.

Mu mashuri yisumbuye ndetse no mu mashuri abanza mu banyeshuri biga imibare haba hari ibikoresho byabugenewe bifashisha bari gushushanya, aho harimo udutaruziga, amarati ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Hari ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu mashuri yisumbuye, aho abanyeshuri babyifashisha bari kwiga kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo. Biba biri mu mabara y'icyatsi, umukara, umutuku ndetse n'ubururu.

Mu mashuri abanza, haba hari ibikoresho bigiye bitandukanye, umunyeshuri wese aba agomba kugira kugira ngo abashe kwiga isomo ry'imibare, ibyo bikoresho rero, ni udusanduku tuba turimo amarati, uducaruziga ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ari inyubako y'ishuri yikishirizwamo abana biga mu mashuri abanza, aho hari ibyapa bigiye bitandukanye bakunze kumanika bikuta.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri abanza aho hari igikoresho kiba kirimo agacaruziga, ikaramu y'igiti ndetse n'amakaramu agiye atandukanye n'amarati abanyeshuri bifashisha.

Inyubako nziza cyane zubakwe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako z'amashuri, aho zifite ubusitani bwiza cyane, bushinzwemo icyuma giteyeho ibendera ry'u Rwanda hejuru ndetse hari n'ubutani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho mo imbere harimo intebe zigiye zitandukanye ndetse n'ameza, biragaragara ko ari icyumba k'ishuri aho abanyeshuri bicara kuri aya meza bakungurana ibitekerezo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite inzugi ziteye amarangi y'ubururu, ikaba ikinguye bigaragara ko higiramo abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako y'amashuri yisumbuye yigirwamo n'abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro dore ko bambaye amajiri y'akazi.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umukara, bakaba bari kwifotoza bari hamwe n'abayobozi babo.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye imyambaro y'impuzankano, iri mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'umukara, bakaba bagaragara neza kandi basa neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahuriye hamwe aho bari mu nama, bambaye impuzankano ziri mu mabara atandukanye umweru, icyatsi ndetse n'ubururu, bakaba bicaye munsi y'ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho z'amashuri aho harimo abanyeshuri bambaye imyambaro igiye itandukanye yo mu mabara menshi, bakaba bicaye ahantu munsi y'igiti bari mu nama bakurikiye umwarimu uri kubagezaho ijambo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ari igicumbi kiranga ikigo cy'amashuri cy'urwunge rw'amashuri rwa Rukomo ruherereye mu Karere ka Nyagatare.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, aho bari mu gikorwa cyo gutonda umurongo, bakaba biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impozankano, ziri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu ahagana hasi.

Umunyeshuri uhagaze afite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari kugenda abwira abandi bagenzi be, hari abandi banyeshuri bicaye nabo bakurikiye bambaye impuzano bari kumva igitekerezo cye.

Umugore ubyibushye cyane wambaye amakositimu, akaba ahagararanye n'umwana w'umunyeshuri, bahagaze imbere y'inyubako z'amashuri zisakaje amabati y'umutuku, bahagaze ku madarajya bari kwifotoza.

Abantu b'abana bambaye udupira turi mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara bakaba biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impukankano z'ishuri bigaragara ko basa neza cyane, ni byiza ko buri kigo k'ishuri cyajya kigira impuzankano.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo abayobozi ndetse n'abaturage bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Umuntu wicaye mu ishuri bigaragara ko ari umwarimu, akaba afite ikaye ari kwandika, imbere ye hateretse uducupa turimo amazi ya Nili, tugiye dutandukanye ari kugenda anywaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye ahantu hamwe, yaba bakobwa ndetse n'abahungu. Bambaye impuzankano, aho bari kureba umuntu uri imbere uri kubakoresha inama, bamuteze amatwi.

Abantu benshi bagiye batandukanye, bambaye utujiri twinshi, bikaba bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bagiye bambaye utujiri kubera ko biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye b'abakobwa bagera muri bane, aho bambaye amashati meza cyane y'imyeru ndetse n'amajipo ya kaki, bakaba bari ahantu mu nyubako iyo nyubako iteyemo amarangi y'umweru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako y'amashuri yisumbuye, ishushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse imbere yayo hahagaze abantu benshi bari kwifotoza.

Umugabo uri ahantu akaba afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'akamvilope yambaye n'amadarubindi, ari kugenda ageza ijambo ku bantu bitabiriye iyo nama ababwira ko uburezi ari bwiza cyane.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro, baba bafite ubuhanga bugiye butandukanye, aho babasha kuba bashushanya umuntu wamureba ukagira ngo ni uwa nyawe, nyamara ari ubwenge baba bifitiye.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda baba bafite ubuhanga buhanitse, aho baba bazi gushushanya ibintu byinshi bigiye bitandukanye, wabireba ukagira ngo ni ibintu by'ukuri, kandi biba byaravuye mu buhanga bwabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite inzugi zisize amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, ikaba ifite ibirahuri bitabonerana, ikaba ari inyubako ya kaminuza y'u Rwanda ishami rya nyagatare.

Abanyeshuri baba barize muri kaminuza ndetse barize n'ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro baba bafite ubuhanga aho babasha gutunganya ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye mu buryo bwa kinyamwuga kandi byiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho harimo imitako myinshi igiye itandukanye, iyi mitako akaba ari ingenzi kuko ikunze gukorwa n'abanyeshuri baba barize imyuga.

Abanyeshuri bagiye batandukanye biga mu mashuri y'ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro baba bafite ubuhanga cyane bwo gushushanya aho ashushanya Umudugudu n'umuhanda ndetse n'umusitani wabireba ukagira ngo ni ibya nyabyo.

Abantu biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda baba bafite ubuhanga bukomeye kuko bakunda gukora ibikoresho by'ubukorikori biba bifite ubuhanga buhanitse ku buryo nta muntu wapfa kubyigana.

Hariho amoko agiye atandukanye y'ibishushanyo bikunze gukorwa n'abanyeshuri baba barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyiyingiro aho baba bafite ubuhanga buhanitse bw'ubugeni ku buryo bashushanya ibintu nk'ibi.

Abantu bahuriye hamwe higanjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bafite intebe zabugenewe ziri mu mabara y'icyatsi ndetse n'utuneza twiza cyane, aha hakaba ari muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare.

Mu dukoresho tuba dukozwe mu ibumba, tuba ari ingenzi cyane ariko dukunda gutunganywa n'abanyeshuri baba bahize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda, aho baba ari abahanga cyane mu gukora ibintu nk'ibi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye ariko bikozwe mu bugeni, bigaragaza ko biba byarakozwe n'abanyeshuri bize imyuga n'ubukorikori.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ni abanyeshuri baba bafite ubuhanga budasubigwa, ku buryo babasha gukora amashusho agiye atandukanye, bifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye hakavamo amashusho ateye amayobera.

Ifoto y'umuntu ariko w'ikibumbano, bikaba bigaragara ko uwo muntu ajya kugira isura ariko yarabumbwe, ibi ngibi rero ni ubuhanga buhanitse, bukorwa n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyin ngiro.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bambaye amakanzu y'umukara banaze ingofero hejuru bigaragara ko ari abanyeshuri basoje kaminuza, bari kwishima bishimira ibyiza bagezeho byo gusoza kaminuza.

Umugore wicaye ahantu mu nyubako, akaba afite icyuma bifashisha bari gusuzuma imyanda, ari kurebaberamowo kizwi nka mikorosikopi, akaba yambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko yiga muri kaminuza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyo nyubako ari nziza cyane ikaba ifite urugi rushushanyijeho utuntu turi mu mabara agiye atandukanye tw'udutako bigaragara ko bikorwa n'abanyeshuri bize ibijyanye n'ubukorikori.